Umwana witojyagaguru mu gikombe yambaye ikabutura y'umutuku ishati ya karokaro ari kuvoma amazi mugodo yunamye mu maso arikureba ku gikombe.

Umwana wambaye umupira w'ubururu, hariho uturongo tw'umukara, afite isabune mu ntoki, bari kumusukira amazi, bakoresheje ijagi isa icyatsi, bakamusukira amazi mu ntoki, agakaraba intoki neza.

Abantu bicaye, imbere yabo hari ameza, hari igitambaro cy'umweru, bicaye bafite machine, bari mu nama, bavanzemo abagore n'abagabo.

Umwana ariko ku mugezi arunamye yambaye ikanzu y'umweru ha se ya ruru n'umweru n'udomo tw'umukara, imbere hari indovu ebyiri iyinndi ya gatatu ari kuyoza arebabera muri kamera.

Abantu bicaye ahantu bateze amatwi, bamwe bambaye amashati y'umweru, abandi imipira y'icyatsi bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari ibitabo n'amazi bose baricaye bareba imbere.

Abana bahagaze ni batatu bahagaze imbere ya lobine eshatu zirafunguye amazi kumeneka, bafashe isabuneri bari gukaraba mu ntoki neza nkandi n'amazi meza.

Abantu bicaye imbere aba mama babiri n' abagabo babiri. Babiri bafite mashine, umama umwe afite mikoro ari kuvugana nundi kuruhande bicaye imbere yabantu imbere yabo hari amazi.

Umwana w'umuhungu ari kuri robine afite amajerekani atatu asa umuhondo, yambaye ipantaro ya pink yayihinnyemo ayigeza mu mavi, yambaye agapira ka beje, ashyira injerekani imwe ku mugezi, amazi ari kumanuka ajya mu njerekani.

Umugabo n'umumama n'umwana, umugabo yambaye itaburiya y'umweru, ni umuganga, umwana ateruwe na mama we, ari kumusuzuma barebe indwara yaba abarwaye...

Umuganga ari gusuzuma abaturage, inyuma hari umuhungu wambaye umupira w'ubururu na jire y'icyatsi, muganga yambaye itaburiya y'umweru na ga ari gupima abarwayi akabafata amaraso, hirya ye hari umumama ufite ibinini mu ntoki.

Abamama batatu bari ku ipompo, umwe, babiri bari gusunika ipompo, umwe arunamye ari kuvomera indobo, gusa indobo iri mu kintu kinini na cyo bari kuvomeramo amazi gikoze mu isafuriya nini.

Umwana yunamye mu mugenzi, yambaye ikabutura y'ibitenge n'agapira karimo utubara, afashe injerekani, ari gushyira mu mugezi, ari kuvoma kugira ngo abona amazi atwara.

Ahantu hari abamama bafite abana bicaye ku musambi, abandi bambaye ibipira y'umweru bari kubagaburira amata, bishimye babareba, abana na bo bakanywa, hari abantu benshi batandukanye.

Abantu barahagaze bamwe bambaye imyenda y'ubururu abandi itaburiya y'umweru, barahagaze batonze umurongo ku ruhande hariho icyapa bahagaze ku murongo bari kwifotoza.

Umugezi uri guturikamo amazi menshi, umuntu arahahagaze ari gukaraba intoki, atwereka uburyo wakarabamo intoki n'amazi meza n'isabune.

Aba mama bari kuri robine bari kuvoma bambaye udupfukamunwa bari gukaraba n'intoki, ku ruhande hari amajerekani abiri, inyuma yabo hari umu mama wambaye umupira w'umutuku n'agapfukamunwa ari kubafungurira amazi kuri robine.

Abantu benshi baricaye, harimo abirabura n'abazungu, bicaye imbere yabo hari amazi n'impapuro n'udutabo na mashini, bicaye bareba imbere bari kumva ibyo abandi bavuga.

Umumama uri ku mugezi ahetse umwana, afite indobo y'umuhondo, umufuniko w'umutuku, hirya ye hari n'indi ndobo y'umutuku uwo mufunikari kuwoza, hirya nanone hari undi w'ubururu.

Abamama n'abana baricaye, hasi imbere yabo hari abagabo babiri, umwe afite ikayi n'ikaramu, ari kubigisha ahagaze imbere yabo, undi mugabo we ahagaze ku ruhande arikumva ibyo bavuga.

Abana benshi bari kubyigana bashaka gukaraba intoki, bahagaze ahantu hari guturuka amazi, hari n'ibase y'umutuku itezeho yenda kuzura, abandi bana bari inyuma yabo batonze umurongo.

Abantu bicaye ku meza bari mu nama, imbere yabo hari amazi na mikoro na mashini, imbere yabo hicaye umugabo wambaye ikositimu, ku ruhanda hari idarapo ry'Igihugu.

Umugabo w'umuzungu barahagaze, inyuma y'ibipapuro bisa umweru n'ubururu, mu ntoki bafite igitambaro cyanditseho Visit Rwanda.

Umwana yambaye ishati ya shokora n'ishati ya karokaro, imbere ye hari kandagira ukarabe, hariho indobo y'icyatsi n'akabase k'icyatsi, ni ugukandagira ku cyuma amazi akava mu ndobo akamanuka mu kabase ugakaraba intoki.

Umuntu bara akaja bari kwifotoza inyuma hari abagabo n'abagore, hagatite ye abana n'abagore bambaye amataburiya hejuru, abandi baje mu buryo bwo gukumira no kurwanya gutwita kw'abangavu.

Abantu benshi baricaye bambaye udupfukamunwa bafite ibitabo, umwe muri bo ariguha umwana utunini twa vitamine umwana yararamishije umutwe arasama bamuha ikinini.

Abana bari ku ipompo umwe ari gupompa amazi akamanuka, hariho injekani y'umuhondo abandi batatu barahagaze, buri nguni ihagazeho umwana bari kureba uko mugenzi wabo ari gupompa.

Umumama n'umwana yambaye imyenda y'ishuri, mama yambaye agapfukamunwa umupira w'ubururu n'uturongogo tw'umweru n'umukara, utunyagitenge inyuma yabo hari ibiti ari gukarabya intoki umwana.

Umukobwa arasutamye ari kuvoma kuri robine, afashe ibase ayibanza hasi aterekamo injerekani kugira ngo amazi atameneka ku ruhande, inyuma ye hari umugozi wanitseho imyenda, hirya hari ibiti bihateye.

Abaganga bari kumwe n'umama utwite, bari kumupima inda ye ngo barebe bareba ko ameze neza, muganga yambaye imyenda y'akazi abandi bambaye agapfukamunwa utwite akenyeye igitenge.

Aba mama babiri hamwe n'abana babo bafitanye indobo bagiye kuri robine umwe ari koza umwana yicaye mu ibase, undi afite indobo ari kuvoma undi mwana we ari ruguru yashyizeho isafuriya kuri robene.

Abantu benshi barahagaze batonze utambitse, bamwe bambaye imipira y'ubururu, abandi iy'umweru, harimo abamama, abakobwa, abasore n'abagabo bari kwifotoza.

Abantu benshi bari ahantu hari shitingi bari gupakira ibintu mu mifuka, bakongera bakayiterura bakajya kuyipanga ahantu hamwe ku murongo, harimo abagabo bane n'abagore batatu.

Abantu benshi bicaye muri tente, harimo abagabo n'abagore bambaye imipira y'umweru, bicaye ku ntebe bareba imbere, bari kwifotoza.

Umuhungu wambaye umupira w,umumuhondo benneten b yumukara natakana gateka kumashini pmira kambaye umupira wa orange ipantaro y,ubururu

Umumama yambaye agapfukamunwa nikanzu y'uturongo aduteruye amwana arikumudoma umwana we mutoya afite ibikoma mu ntoki yambaye n'isaha

Abamama babiri, undi ateruye umwana bari kwa muganga, umuganga ari guha umwana vitamine, muganga afashe umwana ku munwa aramwasamura kugira ngo abone uko amushyiriramo vitamine mu kanwa, uteruye mwana nawe ari kumureba.

Umuganga uteye urushege umurwayi yambaye ga afite urushinge mu intoki, imyenda y'akazi, umurwayi yambaye umupira w'uturongora yazamuye umupira atera kubabazo.

Abantu benshi batandukanye harimo abagabo, abamama bicaye ahantu n'ubuseke ku murongo, imbere yabo hari amazi, abamama bashyize amashakoshi hejuru, umwe abari imbere ari kubasobanurira.

Abantu benshi barahagaze, bambaye amakositimu, harimo n'abamama bambaye amabaje, hejuru yabo ibyapa bditseho COMMONWEALTH LOCAL GOVEVERMENT CONFRENCE.

Aba ngabo ni abamama bicaye ahantu kuri table, imbere y'abo haritasi n'amasahane hakabaho projegiteri, amazi, harimo abagabo abagabo barindwi n'abamama babiri, abagabo babiri bambaye kositimu abandi bambaye amashati na karuvati.

Abana babiri bari ahantu ku mazi mu kiyaga, umwe ni mukuru undi ni muto ni mutoya, bafite amajerekani. Injerekani nini n'akajerekani gatoya, bari kuvoma amazi bunamye hasi.

Abamama barahagaze bamwe bambaye amataburiya y'icyatsi, bambaye ibitenge birimo amabara menshi, barahagaze bose hamwe batonze umurongo imbere ku nzu.

Ni umuzungu n'abagabo batatu n'umwana bahagaze mu nzira bahuye n'umwana baramuhagaritsa baramufotora yikoreye akabido, umuzungu ni we urigufotora.

Abantu benshi bicaye mu nzu ku ntebe harimo abagabo, abagore, abamama bafite abana, imbere yabo hari umugabo wambaye ipantaro ya beje, umupira w'umukara n'itaburiya y'umweru ari kubaganiriza.

Abana batandatu bahagaze ku migezi bari kuvoma, bafite indobo zisa umuhondo bambaye inifomo zisa kake, umwe ari muri bo ari gukaraba intoki, uwundi ari kuvomera mu ndobo.

Abamama bari ku ipompo, batatu bari gupfubya amazi akaza undi arunamye yateze indobo, hasi y'iyo ndobo hari igisafuriya amazi make ari kumeneka kuruhande akajyamo kandi akajya mu ndobo yatezeho.

Abanyeshuri bari ku kigega, bambaye inifomo z'ubururu bwerurutse, n'imipira y'ubururu, abahungu bambaye amakabutura y'ubururu bwijimye, bafite ibikombe by'icyatsi mu ntoki, bari kuvoma amazi bakanywa.

Aba mama babiri n'umukobwa umwe bari ku mugezi, bari kuvoma, bafite amajerekane, bakenyeye ibitenge, umwe arunamye ari kuvoma, undi mumama na we ari kureba uko uwo nguwo avoma.

Umunyeshuri arunamye ari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe, arukandagira amazi akamanuka mu ntoki andi ajya ku kabase kari kujyamo amazi mabi amaze gukaraba. Inyuma ye hari abandi banyeshuri, yambaye ijipo ya shokora n'ishati yenda gusa umuhondo.

Abagabo n'abamama, bicaye ku ntebe ku murongo, bambaye amataburiya y'ubururu, bafite ibitabo mu ntoki, bari gusoma, abandi bari kureba muri telefone.

Abagabo batatu bambaye imyenda yo kwa muganga, umwe muri bo yambaye itabura y'umweru abandi bambaye ibisa ubanururu bambara utubofero tw'ubururu mu mutwe, bambarye n'agapfukamunwa bafite udukarito mu ntoki.

Abana bari kumwe n'ababyeyi babo baricaye, umuma umwe ari kuganiriza uwo mwana amukora ku itama, yambaye itaburiya y'umweru ivanzemo ibyatsi ku ijosi n'umutuku ku maboko afite ikayi n'ikaramu.

Abana babiri umwe yambaye ishati isa iroza undi yambaye ishati is umutuku bafite igikombe kirimo amazi, umwe ari gusukira undi agakaraba intoki bifasha abantu kwereka bari kwerekana uburyo abantu bajya bakarabamo intoki.

Abana babiri bari ku mugezi umwe afashe akajekane gasa umuhondo ashyira kuri robine undi ahagaze hirya ari gupompa bagiye kw,ipompo.

Abantu benshi bari kwifotoza, bamwe barasutamye, abandi barahagaze, bamwe bambaye imipira y'umweru, abandi bambaye amakositimu, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho RBC.

Abana bari ku ipompo, umwe w'umuhungu ari gusunika ipompo, undi mumama wambaye igitenge, ari kugenda iruhande rwe, umwe, umwana wundi ari kuvoma, undi arahagaze ari kureba uko avoma.

Abantu benshi baricaye ahantu mu nzu, imbere yabo hari ama mikoro, bamwe bambaye badge, abandi bafite udutabo mu ntoki, imbere yabo hari amazi yo kunywa.

Umugabo n'umugore, umugore akenye igitenge, umugabo yambaye itaburiya, bafite icyapa gishushanyijeho abana b'umuhungu n'umukobwa, inzu bahagazeho yubakishije amatafari asizemo irangi ry'umukara idirishya ryo risa umuka.

Ahantu hahagaze abantu benshi havanzemo abamama, ababagabo, abakobwa, abasore bahagaze ari benshi ku murongo bareba imbere bari kwifotoza.

Abantu benshi bahagaze ku nkengero y'umugezi ahantu ku ipompo, umwana umwe ari gupompa uwundi akavoma muri utwo tubido, haruguru hari abamama n'abagabo bari kureba.

Abantu bahagaze bari kureba umumama uri gupompa amazi, bari ku ipompo, undi mwana yatezeho amajerekani, bari kuvoma abandi bari kubareba, umumama umwe ateruye umwana, hirya hahagaze n'abandi bana.

Abamama babiri n'abana babiri, baricaye ku ntebe y'urubaho, hejuru yabo hamanitseho urupapuro ruriho abantu, umwe yavunitse akaboko, undi afite igikomere mu gahanga.

Abana batonze umurongo bari ku mugezi, umwana umwe yaje ashyiraho umunwa ashyiraho n'intoki, ari gutega amazi akayanywa, ku ruhande hari intebe isa ubururu.

Abagabo batatu bafite indobo n'inshundura, bambaye amakanzu asa beje n'ibitambaro mu mutwe, amarinete ku maso bari kugenda bakoreza inshundura.

Abahungu n'abakobwa bahagaze ku murongo, bamwe bambaye umupira w'umweru n'ingofero, abandi ubururu n'ingofero, bafite ibyapa byanditseho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri.

Umugabo yicaye ku ntebe ku ruhande hariho abaganga, yambaye agapfukanwa yambaye n'umupira wanditseho RBC, umuganga umwe ari kumutera urushinge abandi bari inyuma ye bari kureba.

Abantu bicaye ari benshi barimo abamama n'abagabo, imbere yabo ku meza hari udutase, hariho projecteur, harimo umugabo umwe uri kuvuga abandi bakumva ibyo ari kuvuga.

Abagabo babiri bicaye imbere y'abantu bari kubaganiriza, bambaye ikositimu na karuvati. Inyuma yabo hari icyapa cyanditse stoke demambega virusi kigali makumyabiri z'ucumi bibiri na makumyabiri na kane.

Abantu babiri bicaye, umwe yifashe mu gahanga ameze nk'ufite ibibazo, undi amufashe ku kandi kaboko ari kumuhumuriza.

Umugabo yicaye mu muferege hirya ye hatera ibyatsi, afite utujerekani tw'umukara n'umweru, amashashi ye akenyeye igitenge akizirika mu ijosi.

Umwana ari kurira, afite amaso atukuye, amarira ari kumanuka mu maso, afite iminwa isa umutuku, arababaye cyane.

Aba mama batatu, umw yicaye imbereye abandi bicaye ku ruhande ateruye abana, uri imbere ishashi muntoki, ari imbere yabo ari kubasobanurira.

Umuntu aricaye yifata mu maso ku mutwe yambaye umupira w'umukara, hejuru ye hari amafoto ahamanitse ku ruhande ku gikuta hamanitse imvaho.

Abamama batatu barahagaze bakenyeye ibitenge, bafite n'inkoni mu ntoki, umwe muri bo ateruye umwana, afite n'umufuka mu ntoki, uwo mwana ari konka, bari kureba imbere baseka, usibye umwe uri kureba ku ruhande.

Abana barahagaze, impande zabo hari ibyatsi n'ibiti hejuru, umwe muri bo afite akabido harimo n'igiti, ruguru yabo bari kureba.

Umumama wicaye ahantu ku gatebe, hasi imbere hari umusambi, yambaye igitenge, n'ishati igiye icikagurika, havanzemo utubara twinshi, hejuru ye hari idirishya rirafunguye risa umukara, inyuma ye ku gikuta ni ahantu hagiye hangirika, afite agahinda mu maso.

Umugabo wicaye hasi yambaye ikabutura ya shokora, n'isengeri, yiyambitse igipine, hari abagabo bari kumureba undi arunamye ari kumuvugisha.

Umugabo arahagaze imbere ye hari indabo arunamye inyuma ye hari ahantu handitse amazina menshi atandukanye umugabo ari kunamira abantu.

Abantu bicaye, abagore batatu n'umugabo umwe, umwe afite agapfukamunwa ku kaboko, yambaye na jire y'ubururu bwijimye, ari kubabwira ibintu bitandukanye.

Abakobwa babiri baricaye umwe yambaye ikanzu y'ubururu n'ibara ry'umweru undi yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara bafite akavaze imbere yabo karimo ibintu bashushanyije.

Bonye muri abantu benshi bafite ibintu bitandukanye. Hejuru yabo hari igihu, imbere hari umwana wikoreye amaboko ari kurira areba imbere.

Umugabo yicaye hasi yegamye ku gikuta yambaye umupira w'umutuku uratu rw'umukara n'into umukara hafi ye hari ahantu hari imyanda myinshi no hirya irahari yicaye ariyi kureba imbere.

Umuntu wicaye mu muhanda, impande ye hari inkoni, ibicupa, amashashi, ameze nk'umusazi yambaye imyenda yacikaguritse, afite imyanda ari gushyira mu ishashi, afite umufuka ku rutugu rwe, yiteze n'igitambaro mu mutwe, akenyeye n'ikindi kintu.

Abantu barahagaze ari benshi, bafite amvelope bari kwifotoza, harimo abambaye imipira y'umukara n'ikote, n'uwabambaye uw'ivu, inyuma yaho hari imodoka, ku ruhande hamanitse ikote.

Umukecuru yicaye hanze imbere y'inziko ari guteka kudukoresha safari kugaragaragara ku ruhande rw''igikombe numufunikwa yicaye ari kureba imbere.

Abantu bicaye, abamama batatu n'abagabo babiri n'umwana, bicaye hanze ku ntebe, inyuma yabo hateye insina n'ibiti, amadirishya yaho asa icyatsi, inyuma urugi rurafunguye.

Abantu benshi bahagaze muri tente, harimo abagabo n'abagore, bamwe bambaye imipira y'umukara abandi iy'umweru n'amabagi mu ijosi, barahagaze bari kureba imbere babafotora.

Umumama wicaye hanze ku gatebe, hari abamama batatu n'mukobwa n'umusore, inyuma yabo hari urutoke, umwe muri bo yambaye baje afite n'ikayi ari kwandika.

Umuganga yambaye itaburiya, ishati y'ubururu. Itaburiya isa umweru na karuvati y'umutuku. Umugabo yambaye umupira w'icyatsi, arasamye ari kumumurika mu kanwa ngo arebemo.

Abana benshi bicaye bari kubapima mu kanwa bareba amenyo yabo bambaye imipira isa icyatsi, bambaye imipira yanditseho tubiteho, inyuma yabo hari abaganga babishinzwe.

Umuganga ari gupima amenyo y'umurwayi ngo arebe ko ari mazima, umurwayi aryamye ku gitanda cyabugenewe, muganga yambaye imyenda y'ubururu, ga z'ubururu, n'ingofero y'umweru, n'agapfukamunwa k'umweru.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru, afite imisatsi irekuye, ari kureba mu ndorerwamo, afite uburoso ari kwiborosa yerekana uburyo wakwiborosamo.

Umugabo wirebera mu kirahure, yambaye umupira w'umweru, arashinyitse, intoki ze azifatishije urudodo, atwereka uburyo wahanaguramo amenyo yawe, agenda akoza muri buri nguni yose.

Umuganga waje ku kigo, ariku inyuma ye hari abantu bane, harimo umuzungu, umuganga ari kumwe n'umwana bafite ikintu gishushanyijeho amenyo, ari kugenda amusobanurira buri ryinyo ryose bakozeho.

Umukobwa ari kureba mu kirahure ari kwiborosa, afite uburoso bw'ubururu, yambaye isengeri y'umweru, ateze mu mutwe isume y'umweru, ari kutwereka uburyo wakiborosa.

Ni umugabo uri kutwereka uburyo uhanaguramo imyanda iri mu kanwa kawe hagati y'amenyo afite akantu kabugenewe aragafashe mu kuboko arashinyika areba mu kirahure.

Umuhungu ufite urudodo rusa umweru ari kugenda akurura akoresheje amaboko yombi, ashyira muri buri nguni y'iryinyo, atwereka uburyo wasukuramo amenyo ugenda uhanagura buri nguni yose.

Abantu bambaye imipira y'icyatsi, handitseho ''Tubitayeho'' bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza ariho korogate, umwe muri bo ari kubereka uko biborosa, abandi bari kumureba.

Umwana wicaye ku ntebe y'ubururu afite akarabo mu mutwe gasa iroza, yambaye agapira k'umweru n'agakanzu, ari kwiborosa yishimye yerekana uburyo baborosa.

Umuhungu yashinyitse ari kwerekana uburyo yahanaguye amenyoye asa neza, umuganga yambaye taburiya y'umweru na ga z'ubururu, n'akuma kabugenewe.

Umumama n'umwana bari kw'iborosa, bafite imisatsi myinshi bambaye amasengeri y'umweru, bafite uburoso harimo korogate bari kw'iborosa barebana.

Abantu babiri umumama nk'umusaza baricaye barishimye umusaza bamuryamyeho mama we ari kureba imbere bari guseka mama amushyize akaboko n'umusaza amushyizeho akaboko mu bitugu.

Umufomokazi yambaye imyenda y'akazi isa ubururu, ari kurebana n'umugabo wicaye mu kagare, umugabo yambaye umupira w'ivu ipantaro ya kaki mo imbere ishati y'ubururu nawe ari kumureba amaso banezerewe.

Umumama n'umusaza baricaye, umusaza yambaye ishati ya karokaro n'impeta, umumama yambaye ishati y'ubururu, na rinete imbere yabo kumeza hari mashine n'ibipapuro n'udukombe turimo ibinini.

Umusaza yicaye ku buriri ari kumwe n'umukobwa, umukobwa arunamye amufashe akaboko ashaka kumuhagurutsa, inyuma yabo hari supanete n'itara.

Umugabo n'umusaza bari ahantu, umugabo yafashe akaboko agakoza mu mugongo w'umusaza, akandi agafatisha akaboko ke, ari kumufasha gutera intambwe gake gake, umufashe yambaye agapfukamunwa.

Abagabo babiri bari muri siporo, barikugenda biruka, bambaye amashati y'umweru, umwe yashyize umupira ku bitugu w'umukara, bafite amacupa y'amazi mu ntoki, bambaye amatiriningi arimo uturongo tw'umweru ku mpande.

Umuforomo n'umurwayi, umuforomo yambaye imyenda y'ubururu arahagaze, umurwayi aricaye, umurwayi afite ikirahure kirimo amazi, umuforomo afashe ibinini aramuhereza, ari kumwereka uburyo yabikoreshamo.

Umumama n'umukobwa bari kugenda mu nzira, hirya hari ibiti biteye na pasiparume. Uwo mumama ari kugenda afite akagare mu ntoki bari kumwigisha kukagenderamo.

Umusaza n'umuhungu bicaye imbere yabo hari amatasi abiri y'umweru, umuhungu yambaye ishati ya karokaro ivanzemo umukara n'umweru, umusaza yambaye umupira wa rakosite, yambaye na rinete, bari gusoma igitabo.

Umuforomo ari kumwe n'umurwayi, barahagaze bari kurebana. Umuforomo arambuye umurwayi amaboko, ari kumugorora, afata ukuboko kwa ruguru arakurambura neza. N'uko hepfo kurarambuye.

Umumama n'umukobwa bari kumwe bishimye , umumama yicaye ku ntebe umukobwa amuturuka inyuma amufata mu ijosi ,ubundi aramureba umumama nawe arishima.

Abantu barahagaze barishimye bari guseka, umumama n'umukobwa n'akandi kana gato k'agakobwa bagahetse mu mugongo, umumama ahetse akana kandi k'agahungu, barahagaze bari guseka barishimye.

Umuganga n'umugabo, umuganga yambaye umwenda w'akazi usa umweru n'ipantaro y'ubururu, ari kwigisha umurwayi uko bakwiga kugenda, bafite akagare kabafasha gutambuka.

Umukecuru arahagaze ku gatuti, afite mikoro, ari kuvuga, yambaye ishapure mu ijosi, umukenyero w'umweru, agapira k'ubururu, afite n'umusatsi w'imvi, ari kuvuga areba hepfo.

Umugabo n'umugore baricaye, imbere hari ameza, bafite igipapuro bari gusomaho, imbere yabo hari ibinini, umugore ari kwereka umugabo ibyanditse ku bipapuro.

Umumama n'umwana baricaye kumeza, hariho ibinini ari kugenda amwereka ubwoko bw'ibinini buhari amuganiriza bishimye. umumama yambaye agapira ka beje, umwana yambaye akarimo utubara twinshi afunze amusatsi.

Abantu, abazungu n'abirabura, bafasha utwutwuma mu ntoki twa siporo, bazamura bishimye bari guseka berekana uburyo wakoramo siporo ukagira ubuzima bwiza.

Abakecuru babiri, umwe aratwite, bari gukora siporo barishimye bari guseka, bafashe ukuboko kumwe bakujyana inyuma, ukundi bagushyira imbere, umwe yambaye bandana ku kuboko.

Umusaza n'umugore bicaye umugore yambaye baji umusaza telefone arikumwereka muri telefone imbere yabo hakaba falenga mama arekora muri telefone.

Umusaza n'umukecuru baricaye ku meza, imbere yabo bafite ibipapuro byinshi, bafashe kimwe umugore ari kubyeyereka umugabo ari kumwerekaho ibintu bareba.

Umusaza yicaye hanze n'abana babiri, agakobwa n'agahungu, agahungu gafashe akabido k'umweru mu ntoki n'umuneke, agakobwa gafashe umuneke gusa, umusaza afite biswi mu ntoki bicaye hanze.

Umugabo n'umuganga bari kumwe nari kugenda umugabo ntago agenda neza muganga yamuhaye icyuma arikugenderaho ari kumufasha ukuntu yakongera agatera intambwe.

Umukecuru n'umusaza bari ahantu bafite ibinini babifungura, ku ruhande hariho rinete n'igikombe kirimo amazi, umusaza ari kwereka umukecuru uburyo babifunguramo.

Umuforomo ari kumwe n'umurwayi, bavuye muri resitora, ari kumucunga mu kagare. Inyuma yabo hari abakicaye, bari kurya no kunywa. Uwo muforomo n'umurwayi bari kureba imbere, hari ibyo bari kureba.

Abantu bicaye mu byatsi, abagore bane, n'umugabo umwe, n'abana batatu; umugore umwe yicaye hasi, abandi babiri, batatu ku ntebe, umumama wicaye hasi ari kuboha igiseke.

Umuforomo yambaye imyenda y'ubururu, ku mufuka hariho baji, yambariyemo agapira k'umweru, arunamye ku ntebe hicayeho umusaza bigaragara ko ashaje, afite n'inkoni, ari kumureba mu maso bari guseka.

Abaganga bari ahantu baricaye, abandi bamama babiri bari kubasuzuma bakabatera inshinge ku gatoke kugira ngo babasuzume.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi y'ubururu, n'ibigofero by'umweru n'udupfukamunwa, bari gupima abantu, umwe yicaye ku ntebe bari kumupima mu kanwa barebe, inyuma hari abandi batonze umurongo.

Abantu benshi bicaye ku ntebe harimo abakobwa n'abahungu, bamwe bari guseka abandi bato imbere yabo hari imashine n'ikayi.

Abantu benshi bari muri tente, umugabo umwe aricye yambaye itaburiya y'umutuku n'ishati y'umweru, abantu bari kuza, babafata amaraso n'abantu bashinzwe gufata amaraso.

Umuganga arahagaze imbere ari kumwe n'umunyeshuri, inyuma yabo hari abantu bari kubareba, umunyeshuri bari kumwe mu ntoki bafite ikintu gisimbura amenyo cyerekana amenyo uko ateye amenyo y'abantu, ari kugenda amwereka uburyo waborosamo amenyo yawe.

Inyubako isize irangi ry'umweru, hasi hariho amatafari, ifite indabyo z'umuhondo n''icyatsi, kuri iyo nyubako hejuru hari irangi ry'umweru, handitseho ikigo nderabuzima cya Rwerere.

Umumama uhagaze ahantu ku nzu hanze y'igipangu ahitse umwana mumugongo, agatambaro gafubitse umwana kari imbere mu ijosi, umwna yambaye ingofero ya pink, kuri icyo gipangu hejuru handitseho ngo Kigina helth center.

Inzu yubakishije amabati y'ivu, ku ruhande hari ibigega bibiri by'umukara, hepfo hari inzu ifite amabati y'umutuku, ku gikuta hasi hariho akarangi k'umweru handitseho, isange one stop center Remera Rukoma. Hepfo na none kuruhande hari cya gicupa kigabanya inkongi y'umuriro.

Abagabo babiri umwe yambaye umupi w'umweru na jire iriho RBC, undi yambaye ishati ya karokaro na baji, ari kumupima amushyize ku kaboko, ari kumureba.

Ahantu hari amazu, amabati y'ubururu abantu batatu umwe ari gutwara igare undi ari kugenda, hari igipangu cy'umukara hejuru handitseho Kabgayi hosipito n'ibitaro bya Kabgayi.

Inzu yubakishije amabati y'ubururu, ifite igikuta cy'umweru, n'inzugi z'umweru, hasi hari akabara k'umukara, hari n'ikigega cy'umukara, hepfo hari abamama babiri n'umwana, ku ruhande hariho icyapa cyanditseho ikigo nderabuzima cya Matyazo.

Inzu yubakishije amatafari, ifite amabati y'ubururu, hejuru handitseho materinite, ku ruhande handitseho inzu y'ababyeyi hanze hari....

Mu muri sale hicaye abantu umuntu umwe yica mu gi kimwe abandicaro cya ruguru imbere yabameza hejuru hariyo indabo r inyuma yabo hariyo televiziyo umwe arahagaze bari kumwakira.

Umuforomo washyize umwana muri kuveze, ari kumutunganya amwambika imyenda, hejuru ye hari ibyuma biri kumurika uwo mwana.

Umuforomo yicaranye n'umukecuru bari kuganira, inyuma yabo habateye insina, indabo, hari inzu yubakishije amatafari, hateretse inkwi ku ruhande rwabo, hari n'ibase.

Kwa muganga aho barara, hepfo hari igitanda, ruguru n'aho hari ikindi, hamanitsemo supanete, hariho amashuka asa shokora, abantu bamwe bararyamye abandi baricaye, hari n'abari mu tugare.

Inyubako ifite amabati y'ubururu mu madirishya y'umweru, hanze hateye indabyo z'icyatsi hariho ikigega cy'ubururu ifite pasiparume iteyeho ibiti, hepfo gato hari indi nzu ifite amadirishya y'ubururu n'inzugi z'ubururu, hari na robine.

Ahantu mu nzu, hari uturahure, hsri akabati k'ibirahure, hagiye harimo imiti igiye itandukanye, akabati gasize irangi ry'umweru, handitseho amagambo 'progress pharmacy'.

Inyubako isize irangi ry'umweru, hejuru handitseho materinete inzu y'ababyeyi, hanze yicayeho abantu bamwe bambaye imipira y'ubururu, bicaye ku ntebe hariho ameza ateretseho amazi, undi mugabo umwe ahagaze mu muryango ari gufotora.

Umuntu ku kigo cy'amashuri yicaye abantu hateda ibyatsi amazu afite amabati y'ubururu nay'umutuku, kuruhande hari dasite hamwe bamenamo imyanda.

Aba mama bicaye ahantu, bose hamwe baje gupimisha abana, ushinzwe gupima abana yafashe umwana amushyira k'umunzani hejuru, bashyiraho igitambaro kimufata nga tagwa.

Inyubako ya etaje ifite irangi rya kacye amadirishya asize irangi ry'umweru, hejuru hariho icyapa cyanditseho inzu y'ababyeyi b'impinja hashushanyijeho umubyeyi utwite.

Umuganga ari gupima umunyeshuri amushyiraho ikimashini cyabugenewe ku kaboko, umuganga yamabye itaburiya y'umweru, ishati y'umweru n'agapfukamunwa, umunyeshuri yambaye ishati y'umweru n'ijipo ya kaki.

Umugabo n'bana babiri bari kugenda mu muhanda, hepfo yabo hateye indabo z'icyatsi, ruguru hateye insina hariho n'inzu, umwana umwe ari imbere yabo.

Inzu ya etaje ifite amabati y'ubururu, hanze hahagaze abagabo bane n'imodoka, kuruhande hari akandi kazu gatoya gahagazemo abantu bambaye amakositimu y'umukara b'abagabo.

Abantu batatu, umwe ni umuforomo w'umuzungu, undi ni umuganga yambaye itaburiya y'umweru, imbere ye hicaye umuntu, ari kumusobanurira ibyo arwaye n'uburyo yakwirinda.

Inyubako zifite amabati y'ubururu, ibigega hanze, zifite igipangu cy'ubururu, mo imbere hateyemo ibiti, hanze hari icyapa cyanditseho Nyanza hosipito.

Inyubako isize irangi rya orange. Abaganga bahagaze imbere yayo bari kwifotoza. Hariho ibirango byumweru. Hejuru handitseho inzu y'ababyeyi, ahandi handitse materinete.

Umugabo wagiye kwa muganga yambaye itaburiya y'umweru, hirya ye hari ibyuma bakoresha kwa muganga, yicaye ku ntebe aregama azamura akaboko atanga gudu.

umumama yambaye umwenda w'ivu, agapfukamunwa na baji kwa muganga, inyuma ye hariyo igitanda kiryamyeho umurwayi, inyuma ye nanone hariyo abantu babiri bari kuza b'abazungu.

Umwana arikumwe n'umuganga w'umugabo, umuganga yambaye agapfukamuwa, umwana yambaye ubusa hejuru n'ipantaro muganga ari kumukozaho icyuma gipima umuvuduko.

Inyubako y'ahantu, hafite amabati asize irangi ry'iroza n'ivu, hanze hari intebe z'umutuku handitseho n'ibyapa.

Inyubako ifite irangi ry'umweru n'amabati y'ubururu hasi hariho pasparum, harimo indabo z'icyatsi, imbere hariho idarapo ry'igihugu, hejuru y'iyo nyubako handitseho ikigo nderabuzima cya Kanyinya.

Abantu barahagaze bari kwifotoza, bamwe bambaye amabaje, harimo abazungu n'abirabura, bari kwifotoreza ahantu hateye pasiparume, hari n'insina, hejuru yaho inyubako bahagazeho handitseho, Rwamagana hospital.

Umwana uri mu kagare ari hanze y'ibitaro, aho ari hari amapave, hirya hateye pasuparume, indabo, ikigega cy'amazi, ku ruhande hariho umugabo uri kugenda.

Inyubako zisize irangi ry'umweru, amabati y'ubururu, amadirishya y'icyatsi, ni ebyiri, hari imbere ye hariho pasuparume, hagati hateyemo igiti cy'mwembe, hirya hateye n'ibindi biti.

Umurwayi araryamye kwa muganga, aryamye mu mashuka y'umweru n'umusego, yiyoroshe ikovureri isa yenda gusa icyatsi kiterurutse, hejuru hari serumu, hari n'imashini zo kwa muganga, hakaba n'indi mashini yerekana uko umutuma we uri gutera.

Inyubako y'umweru ya etage, hasi hari uduti duteyeho hari n'amapave, hari icyapa cyanditseho Nyarugenge District Hospital, hirya hateye indabo ku kabaraza.

Abantu benshi bari kwifotoza bahagaze ku cyapa cyanditseho ''butaro hosipito'' harimo n'abazungu n'abirabura n'abantu benshi bahagaze.

Umutegarugori uri gukora siporo yambaye agasengero k'icyatsi kagera hejuru yo mu nda ho gato, akambara kora y'ubururu, akambana supurese n'amasogisi y'umweru yo gukorana siporo bari kukwereka uburyo wakoramo siporo.

Ibiganza bibiri by'umuntu, ikiganza kimwe hariho intoki eshanu, ikindi kiganza hariho intoki eshanu, yambaye ga z'ubururu, izo ntoki ni iz'umuzungu ntago ari umwirabura.

Umuganga yambaye imyenda y'ubururu na baji mu ijosi, undi muntu araryamye yambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umweru azamuye akaguru, umuganga ari kumugorora mu matako.

Umukobwa yagiye muri sporo, yambaye ekuteri, afite icupa ry'amazi, ari kunywa amazi, telefone, yambaye umupira wa pinki, telefone ayisize ku kaboko ke.

Umuhungu ari muri siporo, yambaye imyenda y'umukara, na supuresi isa umukara, ahantu ari gukorera siporo hari amadirishya abonena, ari kwerekana hanze, haparitse imodoka y'umukara, ku mpande hateye indabyo z'umuhondo, imbere y'uwo muhungu uri gukora siporo hariho akabati; ari gusubiza ukuguru kumwe inyuma, ukundi akagukandagiza ku kabati.

Umuhungu uvuye muri siporo, ari kunywa amazi, yambaye umupira wa kacye, afite icupa ririmo amazi ari kunywa, arararamye agasuka amazi akamumanukaho.

Mu kirere hari dorone izanye agakarito kurimo amaraso, ako gakarito gasa umweru, ku mpande hariho igishushanyo cy'umusaraba gisa umweru n'utubara tw'umutuku, iri kugenda mu kirere izanye amaraso.

Umuganga wambaye itaburiya afite igikoresho bakoresha bapima uko umutima w'umuntu utera, agifite mu ijosi, haryamye undi mugabo ari kumukanda mu ivi, yumve ikibazo yaba afite.

Umukobwa ari muri siporo yambaye kola y'umukara, inkweto za pinki, afite hoteri mu matwi, aricaye agafata amaboko abiri akayakoza ku nkweto agahanga akagakoza ku ivi.

Umukobwa uri muri siporo aricaye, yambaye isengeri ya oranje, kola y'umukara, supurese zisa iroza, aricayace hasi, yegamuye akaguru, afata ukuboko akoza ku mano, akajya afata agahanga akagakoza ku ivi.

Umuhungu arahagaze, araramye, ari kunywa amazi, ajya kunywesha icupa ry'ubururu n'umufuniko w'umukara, yambaye isengeri y'ivu, kurutugu harimo uturongogo tw'umukara na josi ufite.

Umukobwa arunamye yambaye imyenda ya siporo, yambaye isaha n'inkweto za siporo, yunamye mu muhanda arikutwereka uburyo wakoramo siporo.

Umuhungu uri gukora siporo, arunamye hasi aho ari gukorera, hari itapi y'icyatsi, yambaye imyenda y'umukara, asutse derede, afite ibikomo ku kaboko, hari akabaho ari kugenda akandagiraho, asimburanya amaguru yombi.

Igikoresho cyo muri Jimu cyanditseho amagambo sigisi paka, kigufasha gukuraho inda bikoroheye kandi gihe gito.

Umukobwa n'umuhungu bambaye amasengeri n'amakabutura, umukobwa yambaye isengeri isa ubururu, umuhungu yambaye isengeri isa ubururu, bafite amazi mu ntoki, bari kwirukanka.

Umukobwa ari mu kibuga, inyuma ye

Umuganga ari kumwe n'umumama uteruye umwana gerageza mu ndagafura mu mu nawe yambaye agapfu munwa nmyenda yu'ubururu y'akazi yava ari meza ariibikoresho byo mu kazi.

Umuhungu abavuye muri siporo bafata icupa ririmo amazi ayimenaho, yambaye umupira w'umukara arararamye amazi arikumanuka mu kanwa.

Umukobwa arunamye afashe akaboko agakoza hasi ku mano akandi agakuza ku mugongo, afite imisatsi myinshi irekuye yambaye kola y'ivu n'isengeri y'icyatsi.

Muganga yambaye ijire umutuku mbere hari akana kararamye patoroshi amurika mu maso no mu mazuru ye ngo arebe ko nta kibazo afite imbere y'abamashini byaka.

Umuhungu yambaye imyenda siporo isengeri ikabutura afashe ukuboko ahinamo ukuguru akanda ku itako rye areba nimba hariryovnge.

mbac sport yambaye co y yumukarandastiriv aricaye azamura akaguru kamwe akanda ara agahina ukuruka kugira kumanano ukundi yakozewevi

Abagabo babiri umwe afite umupira mu ntoki yambaye ikabutura y'umukara bari muri sport undi yambaye umupira w'umuhondo n'ikabutura y'umukara bafite akagare bari kubagenderamo.

Abantu bari ahantu ari benshi inyuma yabo hari ameza n'intebe hasi hari tapi iryamyeho umuntu wambaye umupira w'umweru uturongo tw'icyatsi.

Umukobwa ukora siporo afite umusatsi muremure yambaye isutiye isa ivu, kola y'umukara ashyize akaguru inyuma arakarambura akandi aragahagarika azamura amaboko.

Umukobwa werekana uburyo wakoramo siporo, ushyize akaboko inyuma, ushyize ikiganza inyuma mu mugongo, ikindi kigafata ku nkokora, yambaye isaha, yambaye isengeri ya siporo na kuteri.

Umuntu ufite ijaga, hasi hari ikirahure. Iyo jaga irimo amazi aratwereka uburyo basuka amazi mu kirahure bagiye kuyanywa.

Abana benshi batonze umurongo wambaye imyenda ya siporo bari gukora siporo, harimo abari kubatoza bambaye imipira y'umweru bahagaze imbere yabo babereka siporo bakora, hirya yabo hari inzu ifite amabati y'umutuku hari na tente.

Umugabo ari gukora siporo yambaye ikabutura y'umukara, n'umupira we wemeraje, yambaye supuresi n'amasogisi. Ari gukora siporo ashyize ukuguru kumwe inyuma, ukundi yagushinze apfashe ku ivi.

Umuti uri hano ku meza, hariho agasorori karimo amazi babijije, hejuru yaho hariho ikiyiko kirimo iyo sosi babijije, ku ruhande harimo tangawizi n'umwenya.

Ahantu mu byatsi hari ibyatsi biteye, hakaba n'ibiti mo hagati harimo umugabo wambaye umupira w'umutuku, imbere hashushanyije ibintu by'umweru n'umupira w'umakara.